Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho ari gutera urushinge umwana wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, inyuma yabo hakaba hari abandi bana benshi baje gufata urukingo.

Umugore wambaye ingofero, umupira w'amaboko maremare ndetse n'igitenge, akaba ahagaze imbere ye hakaba hari ijerekani ifite ibara ry'umuhondo aho yaje kuvoma, inyuma ye hakaba hari urutoki.

Abagabo babiri bambaye amakoti afite ibara ry'umukara bakaba bafatanye mu ntoki, umwe akaba afite ibitabo ndetse na telefoni nyuma yabo hakaba hari icyapa gifite ibara ry'ubururu kiriho amagambo y'umuhondo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bamwe muri bo bakaba bafite amakayi bakaba bari kwandika, ku ruhande hakaba hari ibipapuro byometse ku gikuta.

Umukobwa w'inzobe wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru, akaba ari kuvura akana kakaba kambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umutuku, iruhande rwabo hakaba hari undi mugore wicaye.

Umugabo wambaye ikoti rifite ibara ry'ivu arahagaze iruhande rwe hakaba hari umugore wambaye ikanzu ifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku bakaba bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso inyuma yabo hakaba hari icyapa ndetse n'amashusho.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi, ndetse n'inkweto zifite ibara ry'umweru, akaba afite ibipapuro mu ntoki, akaba yicaye ku gataburete, imbere ye hakaba hicaye umugore, akaba afite umwana, ndetse uwo mugore akaba afite ibipapuro mu ntoki.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bari gukora inama, hakaba hari abantu bicaye imbere ari bo bayoboye inama hakaba hari ibiti ndetse n'icyapa gifite ibara ry'umweru n'ubururu.

Umugore wambaye imyenda y'amabara y'umutuku ndetse n'icyatsi akaba ateze n'igitambaro mu mutwe imbere ye hakaba hateretse indobo ifite ibara ry'ubururu bakaba bari kuvoma amazi ku ruhande rwe hakaba hari abandi bagore ndetse n'umwana bakaba baje kuvoma. inyuma yaho bari hakaba hari inyubako ndetse n'ibiti.

Umugore wambaye igitenge akaba afite indobo ifite ibara ry'umuhondo mu ntoki ze ndetse n'indi ndobo ifite ibara ry'umutuku, akaba ayikoreye ku mutwe, imbere ye hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti akaba ari kugenda.

Abantu benshi bicaye mu cyumba k'inama, bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, muri abo bantu hakaba harimo umuntu ufite uruhu rwera, nawe akaba ari mu nama, imbere yabo hakaba hari imeza iteretseho ibirahuri banyweramo icyayi.

Abantu benshi bicaye mu nyubako, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ahagaze hagati yabo, akaba ari kuvuga, iyo inyubako barimo ikaba ifite ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umukara akaba ari gukoresha igikoresho bakoresha batanga imbwirwaruhame cyangwa basakaza amajwi aricyo mikoro, akaba ari kuvuga ku ruhande rwe hakaba hari intebe y'igiti ndetse hakaba hari n'icyapa kiri mu mabara y'umweru n'ubururu.

Umugore ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, akaba yambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari gutera urushinge undi mugore wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, agapfukama k'umukara ndetse n'ingofero. aAho hantu bari, hakaba hari n'abandi bantu benshi baje kwivuza ndetse n'abandi baganga.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu akaba ateze n'igitambaro gifite ibara ry'umweru mu mutwe we, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima. Aho ari kuvura umusaza wambaye ingofero ifite ibara ry'umukara, bakaba bari mu nyubako, aho hantu hakaba hari abandi bantu benshi baje kwaka serivisi ndetse n'abandi bantu benshi bari gutanga serivisi.

Umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba yambaye agapfukamunwa ndetse n'unda ufite ibara ry'umweru, akaba ari gutera urushinge umugore wambaye agapfukamunwa nawe we wambaye umupira ufite ibara ry'umwe. Inyuma yabo hakaba hari undi muntu wahagaze.

Umugore wambaye ingofero ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umupira w'amaboko magufi urimo ibara ry'umweru ndetse n'umukara akaba yambaye n'igitenge gifite ibara ry'icyatsi iruhande rwe hakaba hari robine ndetse n'ijerekani ifite ibara ry'umuhondo akaba ari kuvoma amazi.

Abantu benshi bateraniye ahantu, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba harimo n'abafite uruhu rwera ndetse n'abakorera ibigo bishinzwe gutanga serivisi z'umutekano, hakaba harimo abambaye imyenda y'ubururu, bakaba bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari umugore, akaba ari gupima umwana uburebure.

Abantu benshi baricaye ndetse n'abandi barahagaze, bakaba bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma y'aho bari hakaba hari icyapa gifite ibara ry'umweru.

Abantu benshi bari mu cyumba cy'inama, bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari imeza iteretseho mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, imbere yabo hakaba hari icyuma cyabugenewe cyo kwerekana amashusho ari cyo televiziyo.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu bwerutse ndetse n'igitambaro mu mutwe, akaba aryamye ku ntebe, iruhande rwe hakaba hari abakozi babiri bashinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, bakaba bambaye imyenda y'umweru bakaba bari kumuha serivisi,

Abanyeshuri bahagaze, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bakaba bambaye imyenda ifite ibara rya kaki, aho baje kuvoma amazi, bakaba bari kuvomera mu ndobo zifite ibara ry'umuhondo, inyuma y'aho bari hakaba hari ibiti ndetse n'inyubako.

Umuntu wambaye ibitenge akaba yambaye n'ingofero mu mutwe akaba ari guseka, akaba ari gukaraba intoki akoresheje kandagira ukarabe, aho iyo kandagira ukarabe ifite akabido gafite ibara ry'umweru, inyuma y'aho ari hakaba hari umuryango w'inzu.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho ari kuvura umwana, hakaba hari umugore akaba ariwe uteruye umwana, bakaba bari mu nzu, inyuma yabo hakaba hari urugi rufite ibara ry' icyatsi.

Umugore wirabura wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu, akaba afite n'ibisuko, akaba ateruye umwana mu ntoki ze, inyuma ye hakaba hari undi mugore wambaye agapfukamunwa nawe we akaba ateruye umwana mu ntoki.

Abantu benshi barahagaze bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, inyuma yabo hakaba hari inyubako ifite ibara ry'ubururu ndetse ku ruhande rw'iyo nyubako, hakaba hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Abantu baje kuvomesha, hakaba harimo n'ufite ijerekani, ndetse n'andi majerekani akaba atunze ku murongo, akaba afite ibara ry'umweru. Ako kazu baje kuvomesherezaho kakaba gafite ibara ry'ubururu. Hirya y'abo bantu hakaba hari ibiti.

Abantu benshi barahagaze, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba ari abakozi, bakaba bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima. Bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso. Inyuma yabo hakaba hari icyapa ndetse n'inyubako.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba afite ikayi muntoki ze ndetse n'icyuma cyabugenewe cyo gusakaza amajwi aricyo bita mikoro, akaba akorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, akaba ari gutanga imbwirwaruhame, imbere ye hakaba hari abantu bicaye bamuteze amatwi.

Abantu benshi barahagaze, bakaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma y'aho bari hakaba hari ibiti.

Umugore wirabura ukenyeye igitenge akaba yikoreye ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, iruhande rwe akaba ari umwana wambaye umwenda ufitera ry'ubururu, akaba ahagaze kuhande hakaba hari undi muntu wunamye, imbere yabo hakaba hari inyubako.

Abantu benshi barahagaze habakaba harimo abagabo ndetse n'abana, bakaba bari kuvoma bakoresheje uburyo bwa gakondo, hakaba hari ijerekani ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'akabido gatoya nako gafite ibara ry'umuhondo, inyuma y'aho bantu hakaba hari ibyatsi.

Umwana wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba afite ikintu ari gusaruriramo imboga, inyuma ye hakaba hahagaze umugore wambaye ikanzu ndetse uteze igitambaro mu mutwe gifite ibara ry'umweru, ku ruhande rw'aho bari hakaba hari igikuta.

Umugabo wirabura akaba yambaye ishati y'amoboko magufi ifitemo uturongo tw'umweru akaba yambaye n'ipantaro y'umukara, akaba afite ijerekani mu ntoki ze iri mu ibara ry'umuhondo, akaba yaje kuvoma amazi ndetse kandi uwo umugabo akaba ari no guseka.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'igitenge, akaba ari kuvoma amazi mu majerekani afite ibara ry'umuhondo, ku ruhande rwe hakaba hari undi mugore utegereje kuvoma, inyuma y'aho bari hakaba hari umukobwa wundi uhahagaze ndetse n'urutoki.

Umugabo wirabura akaba yambaye amataratara ndetse n'ikoti rifite ibara ry'umukara, akaba ahagararanye n'umugore ufite uruhu rwera we akaba yambaye umupira ufite ibara ry'ivu, inyuma yabo hakaba hari ibyapa birimo amabara atandukanye.

Umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu akaba ari umukozi akorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, afite impapuro mu ntoki akaba ari kwereka umugabo wicaye wambaye ingofero, ahantu bari hakaba hari abana ndetse n'undi mugabo.

Abantu benshi barahagaze, hakaba harimo abagabo, abagore ndetse n'abana, bakaba bambaye imyenda iri mu mabara ya oranji ndetse n'icyatsi. Bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso. Inyuma yaho aho bari, hakaba hari inyubako.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru akaba akorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari gutera urushinge umwana mutoya, hakaba hari n'undi mugore ufite igitambaro mu mutwe wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu akaba ari we ufashe uwo mwana, iruhande rwabo hakaba hari abandi bantu.

Abantu benshi barahagaze, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, inyuma yabo hakaba hari inyubako, ku ruhande rwabo hakaba hari igiti ndetse n'ibyatsi.

Abantu benshi barahagaze aho bavomera hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari n'amajerekani menshi atonze umurongo afite ibara ry'umuhondo ndetse hakaba hari umuhanda wa kaburimbo n'ibiti.

Abantu benshi baricaye ndetse n'abandi barahagaze, bakaba bari mu cyumba cy'inama, bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari imeza imbere yabo zigiye zitetsweho mudasobwa.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru irimo uturoko tw'umukara akaba yambaye n'pantaro yumukara, akaba yicaye ku ijerekani ifite ibara ry'umuhondo. Akaba yaje kuvoma amazi inyuma yaho ari hakaba hari inyubako y'ibyatsi ndetse n'indabo.

Umugore wambaye umwenda w'umweru akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho ari kuvura umwana akaba afite ikaramu ndetse n'urupapuro ari kwandika, ku ruhande hakaba hari abandi bantu benshi baje kwaka serivise.

Umwana wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari kunywa amazi akoresheje intoki ze, ku ruhande rwe hakaba hari abandi bana bambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi na bo bakaba baje kunywa amazi, inyuma yabo hakaba hari ibiti.

Abantu benshi barahagaze, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore. Bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso. Iruhande rwabo, hakaba hari icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, inyuma yabo hakaba hari inyubako.

Umugore wambaye imyenda y’ibara ry'icyatsi n'umweru akaba ateza igitambaro gifite ibara ry'umuhondo mu mutwe we akaba arimo aravoma amazi imbere hakaba hari umwana wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku akaba ari kumufasha kuvoma amazi aho bari kuvomera mu majerekani afite ibara ry'umuhondo inyuma yaho bari hakaba hari abandi bantu benshi bahagaze ndetse hakaba hari n'urutoki.

Abantu benshi barahagaze hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hakaba hari icyapa gifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore. Haba hari imeza iteretseho uducupa tw'amazi ndetse n'ibipapuro.

Abantu benshi bicaye ku ntebe, bakaba bari mu cyumba cy'inama, bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari umugore uhagaze hagati yabo, akaba ari gutanga imbwirwaruhame.

Abahungu bane barahagaze bari kuvoma amazi, aho bakoresha uburyo bwa gakondo bwo kuvomesha amazi hakaba hari ijerekani ifite ibara ry'umuhondo inyuma yabo hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Umwana wambaye umwenda w'amabara ya gisirikare ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umutuku akaba ari kunywa amazi, imbere ye hakaba hari indobo irimo amazi ku ruhande rwe hakaba hari inyubako y'ibyatsi ndetse n'ibiti.

Abantu benshi baricaye ndetse n'abandi barahagaze, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore. Muri abo bantu bicaye hakaba harimo umuntu ufite uruhu rwera, inyubako barimo ikaba ifite ibara ry'umweru.

Umukobwa wambaye imyenda ifite iba ry'ubururu na oranje, imbere akaba ahagaze umwana wambaye umwenda w'umukara ndetse umuntu n'imirongo y'umutuku, bakaba bafashe indobo ifite ibara ry'icyatsi ikaba irimo amazi inyuma yaho bari hakaba ari ibyatsi, ibiti, umusozi ndetse n'inyubako.

Abana bahagaze bakaba baje kuvoma amazi bakaba bari gukoreshayo uburyo bwa gakondo, akaba ari ijerekani ifite ibara ry'umuhondo, bakaba bari kuyivomeramo amazi, inyuma hakaba hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bakaba bari gukora inama. Hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore. Inyuma y'aho bari, hakaba hari icyapa kiriho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse gifite n'ibara ry'ubururu.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, aho ari gufasha umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi ndetse n'igitenge, akaba yicaye ku ntebe ifite ibara ry'ubururu, imbere yabo hakaba hateretse imeza iriho icupa ry'amazi ndetse na telefoni kandi bakaba bari mu nyubako.

Umugore wirabura akaba afite ibisuko, akaba afite igikoresho cyabugenewe cyo gusakaza amajwi aricyo bita mikoro, akaba yicaye. Iruhande rwe hakaba hari umugabo wirabura wambaye umupira ufite ibara ry'umukara.

Umugore wambaye umwenda afite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, aho ari kuvura umwana ku ruhande rwe hakaba hari umugore wambaye igitenge, inyuma yabo hakaba hari imbaho.

Abantu benshi baricaye, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo. Bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, bakaba bari mu busitani ndetse bakaba bambaye n'udupfukamunwa. Inyuma yabo hakaba hari imodoka, akaba ari iy'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, ikaba ifite ibara ry'umweru ndetse kandi aho hantu bari, hakaba hari n'abandi bantu benshi.

Abantu benshi barahagaze, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso. Hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, ndetse hakaba harimo n'umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'umutekano. Inyuma yabo hakaba hari ibyapa biri mu mabara y'umweru, ubururu ndetse n'umutuku.

Abantu baricaye ku ntebe, umwe muri bo afite igikoresho cyabugenewe bakoresha basakaza amajwi aricyo mikoro akaba ari kuvuga iruhande rwe haka hari abandi bantu bicaye. Imbere yabo akaba ari meza iteretseho mudasobwa ndetse n'agacupa k'amazi uwo mugore uri kuvuga akaba ari gutanga uruhigo ruhame cyangwa ari gutanga igitekerezo.

Abantu benshi barahagaze, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, iruhande rwabo hakaba hari icyapa kiriho amafoto ndetse abo bantu bahagaze bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umugabo wambaye umwenda w'amaboko magufi ufite ibara ry'umweru, akaba afite igikoresho cyabugenewe cyo gusakaza amajwi, akaba ari mu nyubako bakoreramo inama bakaba bari mu nama. Ku ruhande rwe hakaba hari mudasobwa ndetse hakaba hari n'abagore batatu biyicariye aho na bo bari mu nama.

Abantu benshi barahagaze bakaba bafite amadarapo y'Igihugu kandi bakaba bari no guseka, muri abo bantu bahagaze hakaba harimo abagabo, abagore ndetse n'abana.

Abantu benshi bahagaze, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, ku ruhande hakaba hari icyapa kiriho amafoto.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore. Muri iyo nyubako barimo, hakaba hari imeza iteretseho za mudasobwa zabo ndetse n'uducupa tw'amazi.

Umugore wirabura wambaye umwenda ufite ibara ry'umuhondo, akaba ari uw'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, akaba ahagaze mu nyubako, inyuma ye hakaba hari akabati karimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Abantu benshi bahagaze, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba harimo abambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse n'abandi bambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, bakaba bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma y'aho bari, hakaba hari ibiti ibyatsi ndetse n'inyubako.

Abantu benshi bari mu cyumba cy'inama, bakaba bari gukora inama. Hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore. Hakaba harimo abagabo bambaye imyenda ifite ibara ry'umukara bakaba begeranye...

Umugore wambaye amataratara ndetse n'umwenda ufite ibara ry'ubururu. Akaba afite igikoresho cyabugenewe cyo gusakaza amajwi ari cyo mikoro. Inyuma ye hakaba hari ibyapa biri mu mabara y'umweru, ubururu, ndetse n'icyatsi. Iruhande rwe hakaba hari undi muntu uhicaye wambaye agapfukamunwa. Uwo mugore akaba arigutanga imbwirwaruhame.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, barahagaze, bakaba bari gutanga serivisi, hakaba hari abantu benshi bajya kwaka serivisi, ku ruhande rw'aho bari hakaba ari umuhanda wa kaburimbo ndetse n'ibiti.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari kuvura umugabo wirabura, akaba ari kumuvura amenyo, akaba ari gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'agapfukamunwa gafite ibara ry'umweru, akaba akorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba afite itoroshi mu ntoki ze akaba ari kuvura umugabo amenyo.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho ari kuvura umuhungu amenyo, ku ruhande hakaba hari undi muntu uri kubafasha kandi bakaba bari mu nyubako.

Abantu bambaye imipira ifite ibara ry'icyatsi, iriho n'amagambo y'umuhondo, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bari kubasuzuma amenyo. Inyuma hakaba hari abantu bahagaze bari kubasuzuma amenyo, harimo batatu bambaye udupfukamunwa ndetse bambaye n'imipira y'umweru ndetse n'abandi bagore babiri bahari muri iyo nyubako.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru n'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima akaba ari mu nyubako, ku ruhande rwe hakaba hari undi mugabo bari guha serivisi atabasha kugenda, bose bakaba bari mu nyubako.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu w'amaboko magufi akaba yicaye ku ntebe, iruhande rwe akaba yicaye umugore nawe wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku. Imbere yabo hakaba hari meza iriho ikirahure cy'amazi ndetse n'agacupa k'imiti, wa mugore akaba afite urupapuro mu ntoki.

Umugore ufite uruhu rwera wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu bwijimye, imbere ye hakaba hari umugore ukuze ufite akantu mu ntoki gafite ibara ry'umutuku bakaba bari kumuvura.

Umugabo ufite ubwanwa, akaba yambaye ishati ifite ibara ry'umweru irimo uturongo tw'umukara, akaba afite telefoni mu ntoki ze. Iruhande rwe hakaba hari umugore wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, akaba afite agapapuro mu ntoki ze. Ndetse imbere yabo hakaba hari imeza iriho ikirahure kirimo amazi.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi, akaba yambaye n'amataratara, iruhande rwe, hakaba hari umuhungu wambaye ishati y'umweru ndetse n'umukara, bakaba bari gusoma igitabo, iruhande rwabo hakaba hari ibikombe, bakaba bari kunywa.

Umugore wambaye amataratara ndetse akaba ari guseka, akaba ari no gukata imbuto, ku ruhande rwe hakaba undi mukobwa wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu ryerurutse, akaba afite ikirahure mu ntoki, bakaba bari kuganira ndetse bari no guseka.

Umugore wambaye amataratara, akaba yambaye n'umwenda ufite ibara ry'umuhondo, akaba yicaye. Akaba afite imiti mu ntoki ze, imbere ye, hakaba hateretse agasanduku bashyiramo imiti, inyuma ye hakaba hari ibirahure ndetse n'ibiti.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, imbere ye hakaba hari umugore wambaye amarinete akaba amaze kumuha serivisi kandi bakaba bafatanye mu ntoki.

Umukobwa wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho ari gufasha umugabo kugenda bakaba bari no mu nyubako.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umuhondo, akaba afite imiti mu ntoki ze, imbere ye hakaba hari imeza iteretseho ikirahuri kirimo amazi ndetse n'ikayi, imbere na none haba hari umugabo wambaye amataratara kandi bakaba bari mu nzu.

Abantu benshi barahagaze, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore ndetse hakaba harimo n'abantu bafite amasuka, bose bakaba bari guseka ndetse bakaba bazamuye n'intoki, inyuma yabo hakaba hari ibihingwa bigiye bitandukanye.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu ryerurutse akaba ari umukozi akorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima iruhande rwe hakaba ari umugabo akaba ari kumufasha kugenda inyuma yabo hakaba yari icyuma cyabugenewe cyo kwerekana amashusho aricyo televiziyo.

Umugabo wambaye ishati ifite ibara ry'umweru, akaba yicaye, ku ruhande rwe, hakaba hari umwana wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru n'umutuku, akaba afite umugati mu ntoki ze, iruhande rwe hakaba undi mwana muto ufite umugati ndetse n'agacupa gafite ibara ry'umweru, inyuma yabo hakaba hari inzu.

Abagore batatu barahagaze, umwe akaba yambaye umwenda ufite ibara ry'umuhondo, undi akaba yambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu bwerutse, undi akaba yambaye umwenda ufite ibara ry’umweru, bakaba bafite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki zabo ari cyo telefoni, bakaba bari kwifotora kandi bakaba bari guseka.

Umugabo wambaye amataratara, akaba yambaye umwenda w'amaboko magufi, akaba ari gufashwa n'umugore ufite uruhu rwera, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, inyuma ye hakaba hari undi muntu wicaye.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku, akaba ari guseka, ku ruhande rwe hakaba hari undi mugore uri guseka wambaye umupira ufite ibara ry'ivu ndetse n'umukara, ku ruhande rwabo hakaba har undi mugore wicaye, bakaba bicaye mu nzu bakaba bari gukina amakarita, bose bakaba bari guseka.

Abagabo babiri bafatanye ku rutugu, umwe akaba yambaye ishati y'amaboko maremare n'ingofero, undi akaba yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ubururu, iruhande rwabo hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu akaba ari umukozi kubera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, imbere ye hakaba hari umugabo wambaye ishati ifite ibara ry'umutuku y'amaboko maremare ndetse n'amataratara, aho bari kumuvura bakaba bari mu nyubako kandi bakaba bari guseka.

Umuhungu wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku, akaba afite isahani iriho ibiryo, ku ruhande rwe hakaba hari umukecuru wambaye amataratara, ku ruhande rwe hakaba hari umukobwa wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari kwarura ibiryo, bakaba bari mu nyubako.

Umugabo wirabura wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo, akaba yicaye mu kagare k'abantu babana n'ubumuga, iruhande rwe hakaba hari umwana wambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi, bakaba bicaye bari gukina, inyuma yabo hakaba hari igiti.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki ze aricyo bita telefone, ku ruhande hakaba hari umugore na we wambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu ryijimye, bakaba bari kuganira.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba agaragara nk'ukuze akaba yicaye mu nyubako, ku ruhande rwe hakaba hari umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku nawe ugaragara nkaho akuze, imbere yabo hakaba hateretse imeza bakaba bari gukina imikino.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima akaba yambaye n'agapfukamunwa. Iruhande rwe hakaba n'umugabo wambaye ishati y'ubururu yicaye ku ntebe ndetse aho hantu bari hakaba hari igiti ndetse n'inyubako.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba yambaye n'agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima. Aho ari kuvura umugore wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'umweru, umupira w'umweru, ndetse afite n'amataratara, akaba yicaye inyuma yabo, hakaba ari undi muntu wambaye agapfukamunwa nawe uhagaze.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, akaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima. Bakaba bambaye n'udupfukamunwa. Bakaba bari gupima abantu, hakaba n'abandi batonze umurongo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama hakaba harimo abagabo n'abagore bakaba bari gukora inama, imbere yabo hakaba hari abantu bari kubyina imbyino za kinyarwanda, inyuma yabo hakaba hari icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Icyumba cy'uruganiriro hakaba harimo abantu benshi bicaye, imbere hakaba hari umugabo wambaye amataratara ufite uruhu rwera, iruhande rwe hakaba hari undi mugabo wambaye ikoti, bakaba ari gutanga imbwirwaruhame, inyuma yabo hakaba hari icyapa gifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba harimo ndetse n'umuntu ufite uruhu rwera ndetse inyubako barimo hakaba hari icyapa kinini.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari gukora inama. Hakaba n'abandi bantu bicaye imbere akaba aribo bayoboye ikiganiro, hakaba harimo umugore ufite igikoresho cyabugenewe ukoresha basakaza amajwi aricyo mikoro, akaba ari kuvuga.

Umuhungu ufite uruhu rwera, akaba yambaye umwenda ufite ibara ry'umukara, iruhande rwe hakaba hari umukobwa wambaye ikanzu, inyuma yabo hakaba hari icyapa gifite ibara ry'umweru kiriho n'amagambo, bakaba bari mu nzu irimo amakaro.

Abantu benshi baricaye, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, hakaba harimo abagabo, abagore ndetse n'abafite uruhu rwera, inyuma yabo hakaba hari icyapa gifite ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umutuku.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umukara, akaba ahagaze mu nyubako, ku ruhande rwe hakaba hari umugore wambaye imyenda y'umukara ndetse n'umweru, bakaba bafashe urupapuro cyangwa icyapa kiriho amabara y'umweru ndetse n'umukara, inyuma yabo hakaba hari amadarapo, iruhande rw'umugore hakaba hari intebe.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, aho ari kuvura umugore wicaye ku gitanda wambaye ingofero y'umukara ndetse na gasengeri, ku ruhande rwabo hakaba undi mugore uryamye.

Abantu benshi barahagaze, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso. Muri aba bantu bahagaze hakaba harimo n'abafite uruhu rwera.

Umuhungu wicaye ku ntebe akaba yambaye umwenda ifite ibara ry'umweru akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima akaba yicaye mu nyubako iruhande rwe hakaba ari intebe y'abarwayi ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibindi bikoresho bakoresha bavura.

Umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'uburezi, akaba ahagararanye n'umwana wambaye umupira w'icyatsi bakaba bari mu ishuri, inyuma hakaba hari ikibahu gifite ibara ry'umukara, hakaba hahagaze abantu bane, umwe muri bo akaba afite uruhu rwera.

Umuntu wambaye agapfukamunwa, akaba yambaye n'umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari kuvura umwana wambaye umwenda ufite ibari ry'umweru, inyuma yabo hakaba hari akabati karimo imiti.

Abantu benshi bicaye, harimo n'abahagaze, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso. Inyuma yabo, hakaba hari inyubako iriho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu.

Umugore ufite ibisuko akaba yambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, akaba akora mu kigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima aribyo bita ibitaro, imbere ye hakaba hari umurwayi uryamye ku gitanda, inyuma ye hakaba hari ibikoresho byabugenewe bavurisha abarwayi.

Inyubako iriho icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse kiri mu mabara y'icyatsi, imbere y'iyo nyubako hakaba haparitse ibinyabiziga biri mu mabara y'umukara ndetse iruhande rw'ibyo binyabiziga hakaba hari umuntu uri kuhagenda, ndetse hakaba hari n'umutaka.

Umugabo wambaye amataratara ndetse n'umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba akorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'ubuzima, iruhande rwe, hakaba hari umugore uhahagaze wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu.

Abantu benshi bicaye mu nyubako hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari gukora inama harimo abambaye imyenda ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'abandi bambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi.

Umugore uhetse umwana akaba yambaye ibitenge ndetse afite n'igitambaro gifite ibara ry'umweru akaba ahagaze hanze y'inyubako, iruhande rwe hakaba hari ibyatsi imbere hakaba hari inyubako.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari kuvura umuhungu wambaye umupira ufite ibara ry'umukara, ingofero ndetse n'agapfukamunwa, akaba aryamye ku ntebe, akaba ari mu nyubako.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, akaba ari kugenda, akaba akorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'umutekano, iruhande rwe, hakaba hari abandi bantu benshi bakorana bahagaze.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima aho imbere ye hari umugore waje kwaka serivisi bakaba bari mu nyubako inyuma yabo hakaba hari mudasobwa ndetse n’undi mugore ukorera ikigo gushinzwe gutanga serivisi z'ubuzima.

Umugore wambaye amataratara ndetse n'umwenda ufite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, iruhande rwe hakaba hari umugore uhagaze wambaye umwenda w'umweru akaba afite umwana mu ntoki.

Abantu benshi barahagaze, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba harimo abafite impumyi zikoreshwa n'abafite uburwayi bwo kutabona ndetse bose bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hakaba hari inyubako.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, akaba ari kugenda kuruhande hakaba undi mugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku na we ari kugenda. Inyuma yaho ari hakaba hari inyubako ndetse hakaba hari n'ibiti.

Umugabo wambaye ishati ifite ibara ry'umweru w'amaboko maremare, akaba ahagaze imbere y'abantu ari kuvuga. Iruhande rwe hakaba hari undi muntu uhicaye wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku, akaba afite mudasobwa, telefoni ndetse n'agacupa k'amazi.

Umuntu ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, akaba ari guha serivisi umurwayi aho ari kumutera urushinge, aho hantu bari hakaba hari abandi bantu benshi baje guhabwa serivisi.

Abagore batatu bahagaze, bakaba bambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu ndetse n'ibitambararo bifite ibara ry'umweru, bakaba babyambaye mu mutwe. Bakaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, inyuma yaho bari hakaba hari igiti.

Abantu benshi barahagaze ndetse umugore umwe aricaye, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore ndetse n'abantu bafite uruhu rwera, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma y'aho bari hakaba hari ibyatsi, ibiti ndetse n'inyubako.

Umugore wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, imbere ye hakaba yateretse mudasobwa ikaramu ndetse n'ikayi ari kwandikaho, akaba ari mu nyubako..

Abantu bicaye mu cyumba, harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari kwandika ku mpapuro zabo, imbere yabo hakaba hari umuganga, akaba ari kubereka ukuntu imashini ikoreshwa ndetse muri icyo cyumba barimo harimo ndetse n'igitanda.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru bakaba ari abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, bakaba bari mu nyubako muri iyo nyubako barimo hakaba harimo ibikoresho bakoresha bavura ndetse n'abantu bicaye ku dutanda.

Abantu bari gukina umupira w'amaguru, ariko umwe akaba aryamye hasi, akaba yavunitse, hakaba hari abantu babiri bambaye imyenda, ifite ibara ry'umutuku, bakaba baje kureba ikibaozo afite ndetse bakaba bari no kumuvura, aho hantu bari hakaba ari ikibuga ndetse n'abandi bantu bari gukiniramo.

Abantu benshi bambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bahagaze mu murima hakaba harimo n'abandi bantu bambaye umwenda w'umukara ndetse inyuma yabo hakaba hari ibiti.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku wijimye, akaba yambaye n'ingofero mu mutwe we akaba ari kuvuga, inyuma ye hakaba hari akabati karimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, inyubako arimo ikaba ifite ibara ry'icyatsi.